Abanyeshuri b'abahungu mu mwambaro usa wa kaki, bari kuvomera mu ndobo z'umuhondo, abandi hakaba akajerekani k'umuhondo, bamwe bateze ibiganza ku iriba kugira ngo banywe amazi.

Kandagirukarabe iri mu ibara ry'ubururu, watezaho ikiganza bakaraba amazi n'isabune iri ku ruhande.

Abayobozi babiri basuhuzanya, bambaye amakote, umwe afite karaseri mu ntoki, iruhande rw'igikuta cy'amabara y'ubururu, cyandikishijweho amabara y'umuhondo.

Ikirango kirimo amabara atukura, ay'umuhondo, ay'ubururu, ay'icyatsi kibisi, gihagazeho imbere umuntu ufite mikoro wambaye isaha w'igitsina gore.

Ababyeyi babiri bambaye imyenda y'ibitenge, uwa mbere adaha amazi mu kibase kinini ayadahishije indobo, undi ahagaze ku ivomero.

Agatsiko k'ababyeyi bahagaze mu ishuri, rishushanyijemo abana, ibiti, inzu n'ababyeyi bakirwa n'ako gatsiko batandukanye.

Umubyeyi wambaye agatambaro k'umweru n'ikanzu, uri kumwe n'umwana we wambaye agapira karimo umweru baseka, bahagaze mu murima w'imboga.

Abagabo n'abagore bari imbere y'ikigo nderabuzima, bahuriye mu nama imwe l, bamwe bicaye ku dutebe, abandi bahagaze inyuma yabo.

Umubyeyi wicaye mu nzu ku ntebe iciye bugufi, aterekeye ku mbabura, ahetse umwana n'undi amuhagaze iruhande w'umuhungu baseka.

Umusaza wambaye agapira k'icyatsi kibisi, wasamye uvurwa mu kanwa n'umuganga wambaye ga z'umweru, agapfukamunwa k'umweru, itaburiya y'umweru, mu cyumba kihariye cyo kuvurirwamo.

Umusore utambaye umupira hejuru, yireba mu ndorerwamo, arebabamo amenyo cyane.

Igikorwa k'imyitozo ngororamubiri umuntu ugeze mu zabukuru arunamye, akora ku birenge yicaye kuri tapi, ahantu hari ubusitani bw'indabo nziza.

Umubyeyi useka wambaye indorerwamo, igitambaro cy'umukara, afatanye n'umwana w'umukobwa ukiri muto, umuri inyuma, wambaye imyenda y'abaganga, uri kumwitaho barebana bishimye baseka.

Umugabo ukuze uri kwitabwaho n'umuganga, ufite igikoresho cy'ubuganga mu ijosi mu myenda y'ubururu amusunika mu kagare, inyuma yabo hicaye abandi bantu ku bikuta mu ntebe.

Icyapa kigizwe n'amadaza atanu atandukanye, kiri mu ibara ry'umweru byandikishijweho amabara y'ubururu.

Agatsiko k'abantu batandatu bahagaze imbere y'igikuta cy'ubururu cyanditseho Minisiteri y'Ubuzima.

Icyapa cyerekana ko umubyibuho ukabije n'ibiro byinshi bitera kanseri zitandukanye, izo mu mihogo, iz'amabere, iz'impyiko, tukazirinda dukora imyitozo ngororamubiri no kugabanya ibiro.

Ihuriro ry'abantu bahujwe, n'ibintu bitandukanye, bicaye ku ntebe z'umutuku, bayobowe n'umugabo wambaye kositime, imbere y'abo bantu hari mudasobwa.

Ababyeyi baganiriza abana bavuye ku ishuri, bambaye ni iniforume, ishati y'umweru, karuvate y'icyatsi kibisi, ikabutura y'icyatsi kibisi, inkweto z'umukara, n'amasogisi y'umweru, mu nzu harimo intebe bicayeho.

Ibitaro by'akarere ka Shyira ni inyubako y'umweru iriho amabati.

Uburiri bwo kuryamaho mu ibara ry'umweru, hamanitse iruhande rwayo amarido y'ubururu, bushashwe na bwo n'ishuka y'icyatsi kibisi.

Ububiko bw'isomero, burimo ibigega bibikwamo ibintu bitandukanye, korodoro yayo irafunganye.

Ihuriro ry'abageze mu za bukuru, bicaye ku ntebe zitambitse mu ishuri, bigishwa n'abagabo batatu, babiri bicaye umwe ahagaze.

Gukorerwa imyitozo ngororamubiri, ya gorufe, inyuma hari imashini z'amazi n'utugare, two gukoreraho siporo.

Igice cy'iburyo harimo ibikoresho bya siporo, igice cy'ibumoso hakabamo imbuto, imboga zikoreshwa mu kurya, zikagira ubuzima bwiza ku bantu bakora siporo.

Abakinnyi bambaye imyenda y'imyitozo y'amapantaro y'umuhondo, udupira turimo umutuku, umweru n'ingofero zo kurinda impanuka iyo ari yo yose yaba bari mu kibuga.

Umugabo uri kwita ku kaguru ke akoresheje agatambaro, azamuye ipantaro yambaye, afatishije agatambara akaboko ke k'iburyo, agakoza mu ivi.

Bimwe mu byo twifashisha kugira ubuzima bwiza, imitobe, imbuto, amazi, siporo, ibimera bitandukanye nk'imboga, indimu za sitoro, n'imetero yo kwipima.

Agafuka gatwarwamo ibintu byo kwitabaza byihuse nk'umuntu yahuye n'ikibazo agakomereka, harimo isizo, harimo ibipfuko, harimo isaha, harimo icupa, harimo n'ibisa n'imiti.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wicaye afashe mu mumavi yambaye imyenda yo gukorana imyitozo, isengeri y'umukara n'inkweto za supurenti ari gukora imyitozo ngororamubiri,..

Umusore cyangwa umugabo uri gukoresha ikiganza yita ku kirenge cye, akoresheje imiti iri mu gashashi n'ibiganza bye.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, afite kuteri mu matwi yambaye isengeri n'ipantaro y'imyitozo n'inkweto za sipuresi.

Umuravumba utunganyijwe mu buryo bw' ifu, ubitse mu gikombe cy'umweru wifashishwa mu kuvura indwara gakondo zitandukanye.

Isoko ryimiti gakondo, ibyatsi byumye, imiti itukura, harimo udukoresho twabugenewe twa pulasitike, ibyatsi byumye.